Abaganga ni beza turabakundaga cyane, kuko bita ku barwayi ugasanga umuntu arwaye indwara runaka baramuyu arakize, ukavuga uti:''ese Mana ni umuganga ubikoze''! cyangwa ukamureba ukamuyoberwa kuko aho hakuryaga aba ahakuvuye ugakira nta kibazo ufite, ukumva abaganga urabakunze kuko bakorana n'Imana cyane , kuko hatabaye Imana nabo ntacyo bakwishoboza kuko Imana ibakoresha.

Umubyeyi uri mu bitaro wabyaye umwana w'uruhinja, aba amuryamye iruhande ameze neza cane nta kibazo afite. Abantu baramukundaga bajya kumureba mu bitaro.

Ahantu bacururiza imiti nko ku bitaro haba hiranga, kuko wahasanga imiti y'ubwoko bwose, wahasanga imiti ivura indwara zose, ukasangarura imiti itandukanye. Kuko niho wabariza umuti, uje wese ahagana abona umuti w'indwara arwaye kandi agakira.

Imiti ya kinyarwanda ni myiza cyane kuko abantu bamwe na bamwe irabakiza iyo bayivuje, ugasanga hari n'abavuzi ba gihanga bayitanga ugasanga bavuye abantu bakize indwara z'amayobera. Rero n'ayo tuyibungabunge kuko no kwa muganga ibinini turya biva mu miti ya kinyarwanda.

Imiti ya Kinyarwanda ni imiti myiza cyane. Abantu barayikunda cyane, nk’iyo ugize ikibazo gitunguranye, uhita uhamura imiti ya Kinyarwanda ukifashisha mbere y’uko ujya kwa muganga. Ugasanga hariho n’igihe igukijije utiriwe ujya kwa muganga.

Amabuye y'amakoro ajya yeramo ibirayi, cyane cyane mu Kinigi, amabuye ya ho y'amakoro yeramo ibirayi, mu bisate ibirayi biba bimeze neza, kiryamye munsi y'koro, utamenya ko ari ikoro cyari kiryamye mu nsi.

Imiti gakondo ni myiza cyane abantu barayikunda cyane, kuko ijya ibavura bakabona ubuzima buzira umuze, ugasanga nk'igiti cy'ikibonobono abantu bakunze kugikoresha mu miti gakondo, iyo urwaye ukagikenera uhita ukira.

Imiti ya kinyarwanda ni myiza yaba ku bantu cyangwa ku matungo. Iyo amatungo yarwaye ugera hepfo ugaca ibyatsi runaka bavuga ko ari umuti ukabivuguta ukayihereza ikaba irakize, cyangwa umuntu yarwara ukamuvugutiramo umuti nawe akaba arakize. Imiti ya kinyarwanda ni myiza nayo ntabwo tugomba kuyitesha agaciro kuko nayo ifite akamaro.

Ibidodoki ni imboga nziza cyane, kuko bivura no mu nda, ugasanga umuntu yateye ikidodoki ahantu heza kshimye, ugasanga kirekeza keze ibidotoki byinshi cyane, kimuhaye umusaruro ushimishije, akarya akabjijyana no ku isoko agakuramo amafaranga, ugasanga yiteje imbere, n'urugo rwe rurateye imbere.

Ahantu hari ibyatsi bisa n' icyatsi n' igiti bita umukunde, haba ari heza cyane, iyo uri kuhareba uba ubona biberewe, kuba ibyatsi Imana yaremye.